Abantu benshi bambaye udupira dusa dufite ibara rya orange bari ahantu bari gutera ibyatsi mubutaka.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bari kuganira, abenshi bafite mudasobwa imbere yabo, bigaragara ko bari kwiga ku kintu cy'ingenzi.

Umwana ukiri mutoya ufite igikombe yateze mugezi kiri kujyamo amazi, iruhande hari n'undi mugezi uri kuvamo amazi atemba hasi.

Umugore wambaye igitenge n'umupira w'imbeho, yambaye n'ingofero, ari ku mugezi uriho ahantu habiri hari kuva amazi, hose harambitse amajerekani y'umuhondo, uyu mugore ari kuvomeramo.

Abana bato bari ku mugezi, bafite utujerekani dutoya, hari umukobwa uri kubahagira amazi, kugira ngo aze.

Abagabo babiri bambaye amakote bahuje ibiganza, inyuma yabo hariho amagambo asobanura ngo twatsinze icyorezo cya Marburg.

Abantu bafashe icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Icyumba kirimo umuganga wambaye ingofero, agapfukamunwa n'impuzankano, harimo n'ibikoresho bigaragara ko ari nko kuvura umurwayi.

Abantu benshi bambaye impuzankano n'amakarita abaranga, bari gucurira hari n'umusaza uri imbere yabo, nawe uri gucurira.

Abantu benshi bitabiriye inama, bambaye udupfukamunwa, hagati y'umuntu n'undi harimo metero, bafite n'amazi yo kunywa ku meza yabo.

Umugore uhetse umwana mu mugongo akoresheje igitenge, ari ku mugezi yagiye kuvoma, umugezi bisaba guhaga kugira ngo amazi aze.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bahuriye ahantu hamwe mu gikorwa kigaragara nk'aho ari nk'inama, ariko bakaba bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama harimo abicaye imbere bambaye amakarita abaranga bafite n'amazi yo kunywa ku tumeza turi iruhande rwabo.

Umugore wambaye amadarubindi wambaye n'urunigi mu ijosi n'ibitenge akikijwe nabana benshi b'abahungu n'abakobwa bigaragara nkaho ari umubyeyi wabo cyangwa umubyeyi ubafasha.

Abana benshi bambaye impuzankano y'umuhondo, bigaragara ko ari abanyeshuri bazamuye ibiganza byabo bapepera abantu bari kubafotora.

Minisitiri w'ubuzima Nsanzimana wo mu Rwanda, iruhande rwe hari amagambo yavuze kuri kanseri n'imibare yayo ukuntu ihagaze mu Gihugu cy'u Rwanda.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'inama, ku meza yabo hari udukombe, turimo icyayi, hariho n'imashini ikoreshwa berekana amashusho.

Ikiganza kiri ku mazi ava mu mugezi ahita agwa hasi, ahantu hari andi menshi bigaragara ko ari amazi atemba.

Utuzu dutoya twubakishije amatafari ahiye, amadirishya yatwo n'inzugi bisize amarangi asa ubururu.

Abana batandatu bari ku mugezi, bambaye impuzankano ya kaki, bafite utudobo tw'umuhondo baje kuvomeramo amazi.

Umusore ukiri muto wambaye impuzankano y'abaganga n'ikarita imuranga, yambaye n'uturindantoki, ari guhereza imiti umuntu uri imbere ye.

Ivomo rusange ririho abantu batandukanye hari n'amajerekani menshi ari ku murongo bigaragara ko ari ugutegereza kugirango ugerweho uvome.

Abasore n'abakobwa b'urubyiruko bari kumwe bamwe bambaye impuzankano z'umweru bambaye n'amakarita abaranga bigaragara ko bari bitabiriye nk'inama.

Abagabo batatu barikumwe barimo uwambaye imyenda bigaragara nk'aho ari umujyanama w'ubuzima, ari gusobanurira abagabo bagenzi be aho hari n'abana benshi.

Abantu bigaragara ko ari bo bayoboye inama, barimo umugabo ufite mudasobwa imbere ye, n'umukobwa ufite indangururamajwi, bose bafite amazi imbere yabo.

Umwana mutoya wambaye agapira k'ubururu gaciyemo imirongo y'umukara, arimo gukaraba intoki, afashe isabune, barimo kumusukira amazi ku ntoki.

Ikirango kigizwe n'inyuguti ya ca ndetse na na n'amagambo avuga ko hari ikigo cyita ku buzima giherereye Carolina.

Umwana mutoya ufite ibinika mu ntoki ze, ari kumwe n'umuhungu urimo arakora ibintu gake gake, ariko bigaragara ko ariwe mukuru.

Umugore wambaye agashati k'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, uri gushinyiriza bari kumutera urushinge, iruhande hari undi mugore uri kureba.

Abantu bari ku mugezi barimo umwana wambaye agapira k'umutuku ari we uri no kuvoma, hari n'umugore urimo arahaga amazi kugira ngo aze.

Umusore umwe n'abakobwa bane bambaye udupira dusa ubururu bose, hari n'ikirango bariho cy'ikigo cy'Isi gishinzwe ubuzima bw'abana.

Ikirango kirimo umubyeyi uteruye umwana, bari mu kizeru kimeze nk'umubumbe w'Isi, byose bifite ibara ry'ubururu.

Abagore batatu bari ku ivomo rusange umwe ari mu mazi akozamo indobo, abandi babiri bariguhaga ngo amazi aze.

Abantu b'ingeri zitandukanye, barimo abakuru ndetse n'abato, bicaye bategereje, bigaragara ko bari kwa muganga.

Abantu bari kwa muganga, umwe ahagaze imbere y'abaganga bari kumwakira, bambaye udupfukamunwa bafite na mudasobwa imbere yabo.

Abana batoya bafatanye urunana, bambaye udupira tw'ubururu bose dusa tunariho ikigo cy'Isi gishinzwe gufasha abana.

Umwana mutoya ufite imisatsi myinshi y'umukara izinze, yambaye n'agakanzu gakoze mu gitenge, afite icupa ry'amazi, bigaragara ko ashaka kuvoma.

Abagore benshi bari kumwe biganjemo abambaye ibitenge, harimo n'abambaye amajire asa, bigaragara ko ari nk'abajyanama b'ubuzima.

Amagambo asobanura ngo kudasiga umuntu n'umwe inyuma, hari amafoto atandukanye y'abantu, amazina yabo yanditse munsi ya buri foto.

Abantu bari mu nama bicaye bari kumva amagambo ari kuvugwa n'umusore ubahagaze imbere afite ikayi n'ikaramu.

Abantu benshi, bicaye kwa muganga, bategereje kwakirirwa, bose bambaye udupfukamunwa, hagenda bake bake, bakirirwa binjira.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, kumeza imbere yabo hari uducupa turimo amazi meza yo kunywa.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bahuriye ahantu hamwe, bakora udutsinda bake bake bari kuganira bonyine mu gihe batari kubwirwa n'umuntu umwe.

Umugabo wambaye ishati nini idafite amaboko maremare, ari kuganiriza abagore barimo umwe ufite umwana yaje kuvuza.

Abana bambaye impuzankano zifite ibara rya kaki bari ku mugezi, bavomera amazi mu tudobo duto tw'umuhondo.

Umwana muto uri guseka yishimye buririmo aravoma amazi ayakuye mu mugezi akayoga mu mutwe bikamushimisha akaguma abikora.

Umugore uyoboye inama afite imisatsi miremire y'umukara, yambaye n'umwenda w'umweru afashe n'inindangururamajwi, imbere ye hari abantu benshi ari kubwira.

Abantu benshi bari mu cyumba barimo abana bambaye imipira isa y'ubururu, abandi nabo bambaye isa y'umuhondo bari kumwe n'abantu bakuru bigaragara ko ari ababyeyi cyangwa abarezi babo.

Umugabo uri hagati y'abantu benshi bigaragara ko hari abantu bari mu nama mucyumba kinini bakoze ikizeru bamuteze amatwi.

Abantu benshi biganjemo abo bigaragara ko ari urubyiruko, bari kumwe bigaragara nk'aho bavuye mu nama runaka yabahuje babaganiriza.

Umwana muto w'umukobwa wambaye impuzankano y'abanyeshuri, bigaragara ko ari gukaraba ku ivomo ryo ku ishuri, ahantu hari ibiti byinshi.

Umukobwa w'umuganga, ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye impuzankano y'umweru, afite umwana imbere ye ari gufasha, ari kumwe n'umubyeyi.

Abagore babiri bose bicaye mu biro umwe yambaye agapira n'ikote undi yambaye ibitenge yiteze n'igitambaro cy'umuhondo.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru; uri kureba umwana w'uruhinja ucigatiwe na mama we ari kumuvura.

Abantu benshi bari mu cyumba k'inama, hari abagore n'abagabo batandatu bicaye imbere, bafite uducupa tw'amazi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho, iyo bari gusuzumwa banavurwa.

Abakobwa n'abahungu banyeshuri bari mu ishuri, bafite ibiryo bari kurya nk'uko gahunda ya leta yo kurira ku ishuri ibiteganya.

Ivomo rusange ririho abantu batandukanye barimo umugore uri kumwe n'umwana mutoya ndetse n'utwana turi guhaga amazi kugirango aze.

Ivomo rusange, ririho abantu benshi, biganjemo abana, harimo uwateretse akajerekani ke ku mugezi, hari n'undi uri gupomba kugira ngo amazi azamuke.

Abagore batanu bicaye hamwe bari kuganira, barimo n'umuganga bigaragara ko ariwe uri kubaha ibitekerezo n'ibyo kugenderaho byabafasha mu buzima bwabo.

Ikirango cy'umweru kirimo amagambo y'impene agizwe n'inyuguti zirimo u, na, wa, fa na pa.

Umugore wambaye ibitenge acigatiye n'umwana, inyuma ye hari abandi benshi nabo bambaye ibitenge bafite n'abana.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo abasore n'abakobwa, bahagaze imbere y'ahantu handitse ko hari icyumba cy'inama.

Akana kakiri gatoya kari mu murima, gasa naho kari gusarura, kari kumwe n'umubyeyi wako urikubona ko yishimiye kuba bari kumwe.

Abana benshi bari kumwe, barimo abari gukarabira ku mugezi muremure umanura amazi mu myobo myinshi itandukanye, amwe ajya mu base, andi agwa hasi.

Umugore wambaye ijire iriho ibirango anambaye ikarita mu ijosi bigaragara ko ari ibyo ashinzwe ari guhereza abantu udupapuro.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, barimo abasore, barimo abagore ndetse n'abagabo ubona ko bakuze, bigaragara ko bari wahujwe n'igikorwa nk'inama.

Abagore babiri bateruye umufuka bari kuwuhereza umugabo uri hejuru, byumvikana ko barimo gupakira mu kintu runaka cyangwa se bapakurura barunda hamwe.

Agatanda k'isuku, kagenewe gushyirwaho ibikoresho byo mu gikoni, mu gihe bisoje gukoreshwa, harimo nk'ibisuperi, ibikombe, amasafuriya, n'ibindi.

Abagore bacigatiye abana, barimo uhagaze ari guhereza umwana we umujyanama w'ubuzima, cyangwa umuganga uri kubafasha gupima ibiro by'abana babo.

Abasore bagera kuri bane bari kumwe n'umukobwa umwe harimo abambaye amakarita aranga ibyo bakora n'abandi batayambaye ariko bambaye impuzankano bigaragara.

Ibiganza by'umuntu urimo arakaraba amazi ari kuva mu mugezi atemba, uko amara kuyoga akomeza agatemba akagwa hasi.

Amagambo y'impine wa a sa a ca munsi harimo amagambo asobanura ko ari ikigo gishinzwe amazi.

Abagore benshi bari mu cyumba cyo kwa muganga; gifite ibikuta bitatseho amashusho n'amagambo ashimisha abana.

Umukobwa urimo aravoma amazi atemba ari hasi, bigaragara ko nta mazi meza asukuye yari yagera muri ako gace.

Abana batoya bari ku kumugezi bafite n'utujerekani dutoya baje kuvomeramo, hari umukobwa uri kubafasha guhaga amazi kugira ngo aze.

Umugore witeze mu mutwe uri kumwe n'umugabo bose bari ku ivomo rusange bari kuvomera rimwe kuko umugezi ufite ahantu habiri hava amazi

Umusaza ufite imvi wambaye n'akagofero ari kwa muganga, umugore w'umuganga yamuzinze igikoresho ku kaboko ari kucyifashisha amupima.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye barimo urubyiruko, abana bato ndetse n'abakecuru bari ahantu bigaragara ko bitabiriye nk'inama.

Abana bari ku mugezi, bamwe bahagaze ku ruhande, umwe ari guhaga amazi kugira ngo aze, agwe mu ijerekani iteretse ku mugezi.

Abantu benshi barimo n'abambaye impuzankano z'abaganga z'umweru, bari imbere y'inzu iriho n'icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima.

Umwana mutoya uri ku mugezi arimo gukaraba intoki amazi agwa hasi, iruhande rwe hari indobo ifite ibara ry'ubururu.

Abagore bari ku mugezi, umwe ateruye indobo ari kuyikuraho, mugenzi we ari kumufasha, hari n'abandi bigaragara ko bategereje ko bahita bavoma.

Umwana mutoya uri kwikorera indobo y'umuhondo amaze kuvomeramo amazi iruhande hari umugabo umufashije ingata.

Abagore bari kumwe bose baseka bishimye, bambaye udupira tujya gusa umuhondo, dusa. Hari n'abambaye amajire, agaragaza ibyo bakora.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo abakuze ndetse n'urubyiruko bigaragara ko bari bari mu nama, inyuma y'abo hari amagambo avuga ngo twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Umwana mutoya uri ku mugezi ari gukaraba intoki, iruhande rwe hari indobo zifite ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari zo ari butwaremo amazi.

Abagore n'abagabo bari kumwe, barimo n'umusore wambaye umwenda uriho ikirango, bigaragara ko ashinzwe gufasha abantu kubona ubuvuzi.

Amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi avuga ngo turikumwe nka gahunda y'igihugu yo gukorera ibintu hamwe twese dufatanyije.

Abana babiri, bari kumwe, umwe yifashe nabi, bigaragara ko ababaye, mugenzi we amufashe ku kuboko ari kumuhumuriza, amuganiriza.

Abakobwa babiri bari kumwe, umwe yambaye imyenda y'umukara ijipo ndetse n'umupira, undi yambaye imyenda y'umutuku n'ingofero bari kuganira.

Umuntu usa nabi wicaye ku muhanda afite amacupa n'imyenda yacikaguritse, bigaragara ko afite ikibazo mu mutwe.

Umugabo usa nabi cyane, ufite imisatsi yizinze, ifite umwanda ndetse n'ubwanwa ariko bumeze, yambaye n'imyenda yacikaguritse.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye n'ishati y'umweru ari kumwe n'umwana we urimo araseka adafite amenyo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bitabiriye inama harimo abari imbere bicaye bigaragara ko ari bo bayoboye inama hari n'amagambo asobanura ngo umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye n'amadarubindi ufite ikarita yanditseho ko ari ukwibuka.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi kandi yanacicaguritse, afite n'umusatsi mwinshi cyane bigaragara ko ari umurwayi ufite ikibazo mu mutwe.

Umugabo ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'ubururu ndetse n'umukenyero w'umuhondo, inyuma ye hari abandi bambaye nk'ibye bigaragara ko bagize itsinda runaka.

Umukecuru bigaragara ko akuze, wicaye azengurutswe n'abana benshi bakiri bato, bigaragara ko ari abanyeshuri cyangwa se nk'abuzukuru be.

Umusore wambaye agapira k'umuhondo, ufite ubwanwa butari bwinshi n'umusatsi utari mwinshi, ari guseka bigaragara ko amenyo ye ayitaho.

Umusore wicaye mu nzu wenyine, bigaragara ko ari gutekereza ibintu byinshi, afite ibibazo, yiziritse imigozi ku maguru.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo abagore, abasore, inkumi n'abana batoya bamanitse amabendera y'igihugu cy'u Rwanda bigaragara ko bitabiriye igikorwa runaka nk'icyo kwamamaza cyangwa se ahantu perezida yagiye.

Umugabo wambaye ishati y'amakakaro n'umwitero w'umuhondo, afite icumu, yambaye n'ingofero, arimo araseka.

Ishusho y'abantu babiri bari kumwe, bigaragara ko umwe ari kuvugisha undi, bambaye udupfukamunwa nubwo atari abantu n'amagambo iruhande avuga ngo urubuga rwacu noneho rurafunguye.

Umusore wicaye hasi ku gikuta, bigaragara ko afite ibibazo kandi ari ahantu hatari abantu bo kubimufashamo.

Umusore urimo arareba hejuru yegamiye ku gikuta, arimo aratekereza ibintu bigaragara ko ari byinshi ukurikije uko ari wenyine.

Umusore n'umukobwa bari kumwe bigaragara ko umusore afite ibibazo byinshi bitandukanye, umukobwa nawe we yamukoze ku rutugu amuganiriza amuhumuriza.

Umugore ufite imisatsi ifunze, wambaye n'ishati ikoze mu gitenge, wicaye mu nzu icururizwamo imiti, amacupa arimo imiti itandukanye ari inyuma ye.

Umwana ukiri muto uri ahantu mu kizu kidasa neza nawe ubwe adasa neza bigaragara ko afite ikibazo akeneye nko koga agasa neza.

Umuntu wambaye imyenda myinshi y'ubushwambagara, ari n'ahantu mu kimoteri kirimo imyanda myinshi, bigaragara ko afite nk'ikibazo mu buzima bwe bwo mu mutwe.

Imodoka nini y'umweru yanditseho amagambo asobanura ko ari ivuriro rigendanwa ry'akarere ka bugesera ushobora gukura hamwe ukarijyana ahandi.

Udushusho twinshi duhagarariye abantu n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara avuga ngo: iyo abantu bitabye akamaro k'abantu bakeya k'ubuzima bwo mu mutwe.

Abana benshi bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, bose bazamuye amaboko bigaragara ko bishimye, mu kigo hagati harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umukecuru bigaragara ko ari mu za bukuru wipfutse igitambaro gifite ibara ry'umweru mu mutwe, yambaye n'urunigi mu ijosi ruriho amabara y'umuhondo n'ubururu.

Abantu batatu bambaye udupfukamunwa, barimo ababyeyi babiri bicaye, bari imbere y'umukobwa bigaragara nkaho ari umuganga wambaye ishati y'umweru.

Umwana mutoya, wambaye impuzankano igizwe n'ishati y'umweru n'ikabutura y'ubururu bwijimye yicaye mwishuri arimo kurya.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye n'agasengeri k'umweru, ari kumwe n'umwana nawe wambaye agasengeri k'umweru, afite n'imisatsi, bose bari koza amenyo.

Umusore uri kwihanagura amenyo, akoresheje akagozi kifashishwa bahanagura amenyo aho bagenda bagashira hagati ya buri ryinyo n'irindi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe muganga yicaraho ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho, gishobora kweguka.

Umusore uri guseka afite akagozi gatangwa na muganga kifashishwa basukura amenyo, aho ugenda ukanyuza hagati y'iryinyo n'irindi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa afashe n'akagozi mu ntoki agiye guhereza umurwayi uryamye agahanagura amenyo ye.

Abaganga babiri bambaye impuzankano zidasa, ariko bahuriye ku murwayi umwe uryamye ku gitanda yasamye, bigaragara ko ubuvuzi bari kumuha ari ubwo mu menyo.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga, gifite imiterere neza neza nk'iy'amenyo y'umuntu, bigiraho gukura no kuvura amenyo.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu, afashe mu ntoki ze igikoresho kibaho amenyo n'umurwayi uryamye ari kwereka muganga amenyo ye.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'amadarubindi ari kumwe n'abamufasha, bari kuvura umugore uryamye ku gitanda yasamye, bigaragara ko ari amenyo bari kuvura.

Ishusho igaragaza amenyo yo mu kanwa ukuntu aba ateye n'uburebure aba afite haba mu kumanuka werekeza ku kananwa cyangwa hejuru werekeza ku izuru.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, afite ibyuma bya bugenewe byifashishwa bita ku barwayi b'amenyo, arimo arafasha umugore uryamye ku gitanda cyo mu bitaro.

Akanwa gafunguye kumuntu karimo amenyo, harimo rimwe bamaze gukura hagasigara umwobo rivuyemo.

Umukobwa wambaye isengeri, ufite imisatsi myinshi y'umukara, ari kumwe n'undi mukobwa w'umuganga, wambaye uturindantoki n'agapfukamunwa amureba mu menyo.

Abantu bambaye udupira dufite ibara ry'icyatsi twanditseho amagambo ngo tubiteho bigaragara ko bafite ibibazo bigiye bitandukanye.

Ikirahuri cya mudasobwa, kirimo amashusho agaragaza imiterere y'amenyo mu kanwa k'umuntu, aho agarukira n'uko aresha, umuganga ufashe ikirahuri ari kubyerekana.

Umusore wambaye imyenda y'umukara bararana, ari kwireba mu kirahuri anoza amenyo ye, hari n'impapuro z'isuku.

Umusore ufite umwenda ku rutugu uri guseka afite n'akagozi gatangwa n'abaganga kifashishwa bahanagura amenyo kugira ngo abafite isuku.

Umusore wambaye agapira k'umweru, arimo araseka, yafashe akagozi kifashishwa bahanagura amenyo, agenda anyuzamo ayasukura.

Umusore uri mu cyumba cyo kwa muganga gikeye, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, arimo araseka bigaragara ko yishimye.

Umwana mutoya ufite imisatsi myinshi y'umukara, ufashwe n'umuganga wambaye uturindantoki tw'icyatsi, arimo aramufasha mu menyo.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ufite ubwanwa butari bwinshi, arimo araseka amenyo ye asa neza, bigaragara ko yayahanaguye.

Ibyuma byo kwa muganga, byifashishwa n'abantu batabasha kugenda biboroheye, kugira ngo babigendereho, bajye bakandagira, bibafashe kuguma bakomeye.

Umugore uri kumwe n'umwana we bambaye ibintu by'umweru, bafite udupapuro twinshi ku meza bigaragara ko umugore ari gufasha umwana we gusobanukirwa ibyo bari gukora.

Umusaza n'umukecuru bose bigaragara ko bakuze, umukecuru afite agapapuro ari gusoma, umusaza na we afashe ibinini mu ntoki bafite n'amazi.

Umusaza ugeze mu za bukuru, urimo guhaguruka ku buriri, afashijwe n'umugore bari kumwe kuko we ubwe atabasha kwijyana.

Umugabo uri kugerageza gutambuka yifashishije ibyuma biri mu mpande ze arikumwe n'umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara bigaragara ko ariwe ushinzwe kumwitaho.

Umugore bigaragara ko ageze mu za bukuru, ari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara, arimo aramuhereza imiti bigaragara ko ari we ushinzwe kumwitaho.

Umugore bigaragara ko ari mu za bukuru ufite imisatsi yamaze kuba imvi, yambaye n'amadarubindi bivuze ko amaso yiwe atagikora neza, afite ikirahure cy'amazi.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri yahinnye ukuguru kwe kw'ibumoso ubundi afata amaboko ye yose ayakoza ku kuguru kwe kw'iburyo kurambuye.

Umugabo w'umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru, wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umuganga, wambaye impuzankano y'abaganga ari kumusukira umutobe.

Umusaza ugeze mu za bukuru, ufite n'imvi acigatiye umwana ufite igipupe mu kuboko kwe kw'iburyo, barasa bigaragara nkaho umwana afitanye isano n'uyu mupapa.

Umubyeyi wicaye hasi, arimo araboha, hari n'abandi bicaye ku dutebe barimo n'umugabo w'umusaza uteruye akana.

Umugabo n'umugore bari mu zabukuru, bafite imvi bose; bari gukina imikino bakoresheje udupapuro tw'umweru, turi ku meza yabo.

Umugabo w'umusaza, uryamye kwa muganga, yambaye imyenda y'umweru, iruhande hari amamashini yifashishwa n'abaganga, hahagaze n'umuganga.

Umusaza ugeze mu zabukuru uri mu kagare ari gusunikwa n'umukobwa muto w'umuganga ufite n'agakoresho gapima abarwayi mu ijosi.

Umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru, uri kugenda akoresheje ibyuma byifashishwa n'abadafite imbaraga nyinshi, kugirango babashe gutambuka.

Umugabo ugeze mu za bukuru ufite n'ubwanwa bw'imvi ari kugendera mu byuma bifasha abantu batabasha kwitwara kugenda, kandi hari n'umukobwa ukiri muto uri kumufasha.

Umusaza ufite agacupa karimo imiti, ari kumwe n'umukecuru wambaye amadarubindi, afite na mudasobwa imbere ye.

Umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru, wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara yarambuye amaboko, ari guterura utwuma twifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri.

Umugore ugeze mu za bukuru ufite n'imvi, ari kumwe numuganga ufite agakoresho bifashisha bapima uko ubuzima bumeze mu ijosi rye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yicaye ku mwenda urambitse ahantu mu busitani, yarambuye amaguru arambura n'amaboko ari kugerageza gushyira umutwe ku maguru.

Abagore batatu bari kumwe, bari guseka bisa naho bishimye, bari gukina n'amakarita, barimo umubyeyi ufite imisatsi y'umweru bigaragara ko ari mukuru, ndetse n'umwana wambaye agapira k'umutuku.

Umugabo bigaragara ko ari umusaza ugeze mu za bukuru, ari kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa uri kumusindagiza kugira ngo agende.

Umugabo bigaragara ko akuze uri kumwe n'umwana ukiri mutoya bafite udukoresho tw'ikoranabuhanga twifashishwa bakina imikino.

Umusaza ugeze muza bukuru ufite n'imvi; afashe inziramugozi areba mu kirahuri cyayo; ari kumwe n'umugore w'umuganga ukiri muto.

Umusore n'umukobwa bakiri bato bari guhagurutsa umusaza ugeze mu za bukuru ufite n'imvi bigaragara ko bamujyanye nk'ahantu.

Umusaza wambaye ishati, ufite imvi bigaragara ko ageze muza bukuru; ari kumwe n'umuganga uri kumusobanurira ibintu bari kureba imbere yabo

Umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru wambaye igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa bapima uko umuntu ahagaze.

Umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru, ufite agacupa kabamo imiti, ari gusoma ari kumwe n'umukecuru ufite mudasobwa.

Umubyeyi w'umumama uri kumwe n'umukobwa bisa naho ari umuganga wambaye ni mu rusanganoo y'abaganga basa, wagirango n' umwanawana we.

Abantu benshi bicaye bakoze ikizeru, ahantu munsi y'igiti bari mu nama yiga ku bintu bitandukanye.

Umugabo uri kumwe n'umwana we muto, wumukobwa. Bari gukina, umwana afite umupira ukinwa banaga mu nkangara.

Abantu batanu bari kumwe bigaragara nkaho ari umuryango; ugizwe n'umugore, n'umugabo, n'abana babo bagera kuri batatu.

Umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru, ufite imvi yambaye n'amadarubindi, afashe n'inziramugozi mu ntoki, arimo arasoma impapuro.

Umugabo n'umugore bakuze, bari kurya ibiryo by'ubwoko butandukanye, byiganjemo imboga n'imbuto bafite n'ikirahure kirimo amazi yo kunywa.

Umusaza ugeze mu za bukuru ufite imvi n'ubwanwa bw'umweru yambaye agapira k'ubururu arambuye akaboko ateruwe na muganga ari kumufasha.

Umusaza n'umukecuru bose bageze mu za bukuru bicaye imbere yabo ku meza hariho utubakure turimo ibyo kurya, hari n'umusore wambaye ikarita uri kubafasha.

Umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru wambaye n'amadarubindi, ari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara arimo amwambika igikoresho cyifashishwa n'abaganga bapima abantu.

Umugore n'umugabo bageze mu za bukuru bari kumwe, umugore asoma agapapuro kariho amategeko n'amabwiriza, umugabo ari gufata ibinini ngo anywe.

Umukecuru wicaye ahantu hanze yakoze amashyiga aterekaho isafuriya arateka, ahantu hari mu bibazo cyane kuko umuriro ushobora gufata ku ruhande.

Umusaza mukuru wambaye ishati y'umweru afite n'imvi, ari kurya, ari kumwe n'utwana tubiri dutoya tumuri iruhande, dushobora kuba ari nk'utwuzukuru twe.

Abana benshi bafite imyaka itandukanye ubona ko hari abakiri bato cyane, abamaze gukuramo gake, abakuru bose bari kumwe n'umubyeyi w'umumama.

Abagore babiri bageze mu za bukuru bari kuganira umwe arimo no gukata imboga ari gutunganya ibintu baribuze kurya birimo ibyabafasha.

Itangazo ritumira abantu kuzitabira inama yo kuzaba tariki mirongo itatu z'ukwa Cumi, yiga uguhuza ikoranabuhanga n'ubuzima.

Ikirango cyanditseho ko ari icyumweru cyahariwe kumenya ibijyanye na diyabete, hariho amatariki n'ibintu byo kuyakoraho.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama iyobowe nabarenga batanu bicaye imbere, harimo n'umuntu uri gufotora.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye amadarubindi, afashe indangururamajwi ndetse nigitabo yambaye ikarita imuranga.

Impine igizwe na N, na C, na D, hepfo hari amagambo arambuye yayo, iruhande hari ikaramu, ndetse ku rundi ruhande hari agakoresho kifashishwa n'abaganga, bapima.

Inyuguti ya H na P na R, bigaragara ko ari impine y'amagambo ari munsi yayo, bivuga ko ari ikigo cyita ku buzima.

Amagambo y'impine agizwe n'inyuguti ya r na b na c, bivuga ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hepfo hari ibintu yitaho birimo ubuzima bwiza bw'abantu n'ubuzima bwiza bw'igihugu.

Amagambo ari hejuru abanza avuga ngo hagarika korona, hagiye hari uburyo wayihagarika birimo kwirinda gukora ku muntu wayanduye n'ibindi.

Ishusho igaragaza ibintu bigera kuri bitandatu, umuntu yakora ngo agire ubuzima bwiza, harimo bimwe nk'amashuri yigisha ku buzima, harimo gukora ibikorwa bigaragara, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amabara menshi atandukanye; harimo ay'umweru, ay'umuhondo ,n'ay'icyatsi n'ay'ubururu, n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara avuga ku bijyanye no gukuramo inda.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama barimo barumva ibintu umuntu uri imbere ari kubabwira kugira ngo bakomeze bumvikane.

Abaganga bambaye bikwije cyane udupfukamunwa uturindantoki n'ibirahuri ku maso bari kwakira abantu na bo bambaye udupfukamunwa.

Abagore bacigatiye abana bicaye ku bitaro bari kuganira baseka mu gihe bategereje umuntu wo kubafasha ngo abavure.

Utumenyetso twinshi tugiye dutandukanye, turiho ubwoko butandukanye bwa kanseri, harimo iy'ibere, harimo iy'ubwonko, n'izindi nyinshi.

Ibirango by'ibigo bibiri mpuzamahanga bitandukanye, byishize hamwe n'amagambo asobanura ko byishyize hamwe kugira ngo birwanye SIDA, Malariya n'izindi ndwara.

Abagabo babiri bambaye udupfukamunwa, umwe ari gutera mugenzi we urushinge, inyuma hari amagambo avuga ko ari urukingo rwa Corona virus ruri gutangwa muri Nigeria.

Umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame, iruhande rwe hari amagambo y'imbwirwaruhame yavuze avuga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abaganga bambaye impuzankano yabo, bambaye n'udupfukamunwa, bari kubaga umurwayi mu cyumba kirimo imashini nyinshi, n'insakazamashusho.

Umukecuru wambaye ingofero y'umutuku, afite igipfuko ku jisho, afite n'amenyo yakutse, hepfo handitse amagambo.

Ibirango bibiri bitandukanye, kimwe kiri mu ibara ry'ubururu, ikindi kiri mu ibara ry'icyatsi, hino hari ibimenyetso byabyo bisa.

Amagambo ari mu ibara ry'icyatsi asobanura kwigira hamwe, hepfo hari andi ari mu ibara ry'umutuku avuga abana ndetse n'agakoko gatera SIDA.

Abaganga bambaye impuzankano y'ubururu bambaye n'ingofero ndetse n'udupfukamunwa, bari kuvura umurwayi bamuhuriyeho bose.

Amagambo yanditse mu ibara ry'umweru asobanura ko ari kwigisha ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bigakorerwa mu mashuri agiye atandukanye.

Abantu benshi bari kugenda, ab'imbere bafashe icyapa cyanditseho ngo rubyiruko nimwe hazaza heza h'u Rwanda, irinde virusi itera sida ipimishe uyu munsi.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, bambaye imipira y'umweru, bafite icyapa cyanditseho ngo "Twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira."

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama iyobowe n'abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe, ku gipapuro kiri inyuma yabo handitseho amagambo asobanura ngo kugarura igisobanuro cy'ubuzima.

Abantu bambaye impuzankano y'udupira tujya gusa umutuku, turiho n'ibirango, bambaye n'udupfukamunwa, bari gukura ibintu mu dufuka babishyira kumeza.

Umukobwa nk'umuganga wambaye impuzankano z'abaganga ufite n'agakoresho mu ijosi kifashishwa n'abaganga bapima ubuzima iruhande hari amagambo avuga ko ari ugutera imbaraga ubuvuzi mu Rwanda.

Icyumba kirimo abantu benshi, bisa n'aho bitabiriye inama, imbere hari ababyinnyi barimo abakobwa barambuye amaboko, imbere hari amagambo yanditse ko ari umunsi wahariwe sida.

Amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku avuga ko icyorezo cya Korona virus cyangirije uburyo abantu babonamo ubuvuzi, by'umwihariko muri Afurika, anashishikariza abantu gushora mu buvuzi.

Abantu benshi bari mu nama barimo abagabo n'abagore bari imbere bigaragara ko ari bo bayiyoboye, harimo umugore umwe ufite indangururamajwi ari kuvuga.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze inyuma, bigaragara ko bahoze mu nama yigaga ku bintu runaka, nkuko binagaragazwa n'ibyapa bibari iruhande.

Inyubako ndende igizwe n'amatafari ndetse n'amabuye, ifite ahantu hanini hisanzuye, hari inzira zo kunyuramo n'ubusitani.

Imashini nini yo kwa muganga yifashishwa bapima uko umurwayi ameze, ifite igice umurwayi aryamaho naho ashira umutwe.

Umwana uri ku munzani afashwe n'ikariso yifashishwa bapima abana, ari kumwe n'umubyeyi mu cyumba kirimo n'abandi babyeyi baje gupimisha abana.

Icyumba cyo kwa muganga kinini cyanditseho amagambo ku gikuta asobanura ko ari ahantu abaganga babarizwa ku muntu ubakeneye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, harimo igitanda umurwayi aryamaho ndetse n'imashini nini zifashishwa bapima abarwayi.

Abagore bane bari kumwe n'umugabo umwe, ariko nawe uteye nk'abagore, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ko hari ahantu bafatira ibizami.

Umuganga uri mu cyumba cyo kwa muganga, yambaye agapfukamunwa n'uturindantoki, afashe agacupa karimo umuti ari no kwandika mu kirahuri kiri imbere ye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bifashisha, harimo igitanda umurwayi aryamaho, isakazamashusho ndetse n'aho ababonera ibipimo bye uko bimeze.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe ya muganga, igitanda umurwayi aryamaho, imashini zipima, insakazamashusho.

Igipupe cy'akanyamasyo kiri ahantu kwa muganga, hari amabara yiganjemo ay'umuhondo, icyatsi n'ubururu, harimo n'intebe zo kwicaraho.

Inzu nini igeretse iri ahantu hasa naho ari hejuru iruhande hari ubusitani bunini burimo indabo zitandukanye.

Irembo rigari ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ko ari ibitaro bya Kabgayi, bigaragara ko ari ho umuntu anyura agiye kwivuza.

Umuganga ufite agakoresho bifashisha bapima mu ijosi rye, afashe n'impapuro, imbere ye iruhande hari umwana w'umukobwa.

icyumba cyo kwa muganga gitatsemo amabara agi atandukanye harimo ay'icyatsi ay'ubururu harimo n'andi ajya gusa umuhondo.

Icyumba cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibyo baterura, harimo ibyo birukiraho n'ibindi byinshi.

Abagore batatu bari kumwe, bamwe bakuze kurusha abandi, barimo n'umwe ufite imvi, harimo n'undi wambaye imyenda ijya gusa umutuku bigaragara ko ari umuganga uri kubapima indwara zitandukanye.

umugabo w'umuganga, wicaye ku gatebe k'ubururu kicarwaho n'abaganga, ari mu cyumba kirimo ibikoresho birimo igitanda umurwayi aryamaho, n'ibindi bikoresho byifashishwa bafasha umurwayi.

Igice cyo kwa muganga kiriho imiryango igiye itandukanye, hejuru hari icyapa kiyobora abantu ahantu bajya hatandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo insakazamashusho kirimo igitanda umurwayi aryamaho n'itebe muganga yicaraho iyo ari kuvura.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi iriho icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi asobanura ko ari inzu icururizwamo imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kitarimo ibitanda abarwayi baryamaho, ahubwo harimo intebe n'imeza, bigaragara nk'aho ari ibiro by'umukozi umwe.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza iruhande ku bikuta hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru asobanura ko hari icyumba kijyamo ibyihutirwa.

Igice cyo kwa muganga kiriho amagambo yanditse ku gikuta asobanura ko ari aho abantu bakirirwa, imbere hari intebe zo kwicaraho.

Amarembo y'inyubako y'ibitaro, iruhande hari icyapa cyanditseho ko ari ibitaro bya Nyanza, bikaba binakorana na polisi binyuze muri isange.

Inyubako yo kwa muganga mo imbere mu cyumba harimo umuganga uri kumwe n'abandi, ndetse no hanze hari umugabo n'umugore bategereje kwinjira.

Inyubako yanditseho ko ari inzu icururizwamo imiti handitseho n'ibigo by'ubwishingizi bakorana, hasi haparitse moto iriho umumotari hari n'umugabo uhagaze mu muryango.

Icyumba cyo kwa muganga, babikamo imiti, harimo ubwoko butandukanye bw'imiti igiye iri mu bikarito, biyitandukanya.

Umugabo wicaye munsi y'igiti kinini, bigaragara ko ari wenyine ari gutekereza ku bintu bigiye bitandukanye, ari ahantu nk'aha hatari akavuyo.

Inyubako nini ifite amabara y'ikijuju, iri ahantu hari ubusitani bunini, burimo ibiti n'ibyatsi byinshi, harimo n'utuyira ducamo abantu.

Abantu benshi barimo abaganga bambaye impuzankano n'abajyanama b'ubuzima bambaye amakarita abaranga, bari imbere y'inzu yo kwa muganga, yanditseho ko ari iy'ababyeyi.

Inyubako ndende mu bugari ndetse inageretse iri ahantu imbere haparitse amamodoka, mu busitani bwayo harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa havurwa indwara zitandukanye harimo n'umuganga.

Inyubako nini, yubakishije amatafari ahiye, itanafite igisenge kiriho amabati, ifite utuyira two kunyuramo ndetse n'ubusitani bunini.

Inyubako iriho amagambo yanditse mu ibara ry' ubururu, asobanura ko ari ibitaro byagenewe kuvurirwamo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Inyubako igeretse, iruhande rwayo haparitse imodoka iriho n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ariko asobanura ko hari inzu icururizwamo imiti iherereye i Remera.

Irembo rikuru ry'inyubako ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura ko ari ikigonderabuzima cya Kigina.

Inzu icururizwamo imiti, iriho icyapa kinini, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza ko ari inzu icururizwamo imiti, yitwa Iraguha.

Abagore babiri bari kumwe, umwe yambaye amadarubindi n'imyenda y'ubururu, ari kumwe n'undi wambaye ishati y'umweru acigatiye umwana.

Icyumba cyo kwa muganga kigizwe n'ibyuma byiganje, harimo ahantu babika amaraso aba ari mu mashashe abitse neza.

Igikoresho cyo kwa muganga, kifashishwa bareba utuntu duto cyane, hari n'ibirahuri birimo amazi, baba barebamo kugira babone utwo dusimba duto.

Inyubako nini igeretse, imbere yayo hariho icyapa kiranga ibihakorerwa, hariho inyuguti ya a na fa rwanda igaragaza ko ari ikigo gitanga ubufasha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, harimo n'agatebe muganga yicaraho ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kuvurwa.

Inyubako nini igerekeranyije, bigaragara ko ari ibitaro, haruguru hari abantu benshi, bari kugenda berekezayo kwivuza.

Umuryango w'icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo n'ibitanda abarwayi baryamaho n'imashini bakoresha babapima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa bita ku barwayi harimo umugabo wicaye ku ntebe ubyibushye cyane wambaye agapfukamunwa.

Inyubako nziza igeretse, yanditseho amagambo afite ibara ry'umuhondo, agaragaza ko ari ibitaro bya Shyira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo igitanda umurwayi aryamaho n'agatebe umuganga yicaraho, harimo n'insakazamashusho nini.

Inzu yanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Gishweru, iriho abantu bayihagaze imbere n'abandi bari kuyinyura iruhande, hari n'undi wicaye mu ibaraza ryayo.

Inzu ifite ibara ry'umweru isakaje amabati y'ubururu, yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya imbere hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa bavura abarwayi harimo igitanda n'imashini bareberaho uko ahagaze.

Igice cyo kwa muganga kiriho aho bakirira abantu bakiza, hari abicaye bategereje hari n'uhagaze uri kwakirwa, hari n'isakazamashusho riri gutambukamo amashusho.

Umugore uri kwa muganga ari kumwe n'undi w'umuganga urimo aramufasha afite agakoresho bifashisha bapima uko umurwayi ameze.

Inzu nini cyane igeretse inshuro zirenze imwe, imbere yayo haparitse amamodoka henshi hanze hari icyapa cyanditseho ko hari ibitaro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye muganga yifashisha avura abarwayi, harimo n'ibitanda bifite ibara ry'umuhondo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho harimo n'inzitiramibu zifashishwa hirindwa malariya n'abaganga bari kwita ku bikoresho biririmo aho ngaho.

Umwana mutoya uri gusunika akagare gatangwa n'abaganga kifashishwa batwara abantu bafite imbaraga nkeya ndetse n'abafite ubumuga butuma batagenda.

Umwana muto bigaragara ko ari umunyeshuri, wambaye impuzankano y'ishati y'umweru, n'ijipo y'ikijuju, ari kumwe n'umugore w'umuganga.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho bitandukanye birimo ibyo guterura, harimo n'aho kwirukira n'ibindi byinshi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe zo kwicaraho, zifite ibara ry'umutuku, harimo n'igitanda umurwayi aryamaho n'ibindi bikoresho muganga akenera.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi benshi bari kuvurirwa muri ibi bitaro batari kumwe n'abaganga

Inyubako igerekeranye yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu asobanura y'uko ari ahantu hakorerwa ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo nk'abazungu n'abirabura bahagaze imbere y'inyubako nini yanditseho amagambo avuga ko ari ibitaro bya Rwamagana.

Inyubako iri ahantu kuhagera bisaba kuzamuka, hariho amagambo yanditse ahantu hafite ibara ry'ubururu yo ubwayo afite ibara ry'umweru avuga ngo ikigo nderabuzima cya Tabagwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda birenze kimwe abarwayi baryamaho, byose bishasheho amashuka afite ibara ry'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi byo kuryamaho, harimo ibiriho abarwayi, harimo n'inzitiramibu zifashishwa hirindwa malariya.

Abantu bahagaze ahantu bategeranye cyane bambaye n'udupfukamunwa, bigaragara nkaho hari hakiri korona virusi bari ku nzu yanditseho ko ari isange.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yashize ukuguru kwe kw'ibumoso imbere, ukw'iburyo kuri inyuma yakurambuye n'amaboko arimo areba hejuru.

Umusore wambaye agapira k'ubururu, yambaye na gashanete mu ijosi, ari kunywa amazi, bigaragara ko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Imbuto zigiye zitandukanye zirimo pome, hariho n'imboga zirimo karoti, n'amashu hariho n'umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyenda bakorana imyitozo ngororamubiri, uryamye ku gitanda, bamuhinye akaguru, bigaragara ko bari kumugorora yagize ikibazo mu ngingo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite igikoresho ari kwifashisha asunika nawe yiruka kugira ngo akomere amaguru.

Umwana mutoya uri guseka, wicaye ku buriri ahantu hari umubyeyi wambaye ibitenge bigaragara ko ari mucyumba.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo umusore uri gukoresha ukuguru kwiwe afite umugozi ari kugukuruza.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa bapima abarwayi uko bameze ifiteho ahantu umurwayi aryama n'aho ashyira umutwe bari kumupima.

Umusore wambaye agapira k'umukara k'amaboko maremare, afashe icupa rinini ririmo amazi arimo arayanywa, bigaragara ko yahoze akora ibintu byamunanije.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku, kiriho imashini z'umukara naho zinyura hasa umukara, kibikwamo imiti itandukanye, by'umwihariko iy'ibanze n'ibikoresho by'ibanze.

Igikoresho cyifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, cyanditseho ko kigura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda, hariho n'amagambo avuga ko gifasha kugabanya inda.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu ufite ishashi yifashishwa n'abantu bafite ikibazo cyo mu ngingo, wayifatiye ku vi ryiwe ari kwifasha.

Ibiganza bibiri kimwe kireba imbere, ikindi kireba inyuma byose byambaye uturindantoki tudafata intoki zose tugarukira mu gice cy'urutoki.

Amacupa atatu y'umweru, harimo imiti hariho udupapuro twanditseho amagambo avuga ngo hagarika uburibwe n'andi asobanura ibintu bitandukanye.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ugenekereje mu Kinyarwanda basobanura ko ari ibijyanye n'umwuma, hariho uburyo bwo kubyirinda, kubimenya no kubana na byo.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'akenda gafata amabere ari gukora imyitozo ngororamubiri yeguye igice cy'imbere.

Ikirango cy'ikigo cy'abakorerabushake bashinzwe gutanga ubufasha bw'ibanze, gifite ibara ry'umweru mo hagati harimo umusaraba w'umutuku.

Imashini yo kwa muganga ifite umutwe usa ubururu bigaragara ko ikura ikintu kimwe ahantu ikijyana ahandi nk'umwuka.

Umuntu wifashe ku kuboko kwe kw'iburyo akoresheje ishashi yo kwa muganga bigaragara ko ibamo umuti wifashishwa bavura mu ngingo.

Imiti y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa bayibika harimo uducupa hariho amasashe hari n'ikarito nini babikamo imiti myinshi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wahinnye ukuguru kwe kw'ibumoso, akambura ukw'iburyo, ubundi akikora ku mano.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye; harimo nk'igitanda cy'umurwayi gishobora guhindukamo n'intebe; hari n'agatebe k'abaganga.

Umuntu wafashe ishashi itangwa n'abaganga yifashishwa havurwa ingingo, yayishize ku kuboko kw'iburyo akoresheje ukw'ibumoso.

Umukinnyi uri mu kibuga wambaye nimero mirongo inani n'enye uri kumwe n'umukobwa, bigaragara ko ari umuganga utanga ubutabazi bw'ibanze ku kibuga.

Ubwoko bwinshi bw'imiti igiye itandukanye, harimo imwe iri mu ducupa, indi iri mu masashe, indi iri mu bikarito byagenewe kubikwamo imiti.

Umusore n'umukobwa bambaye amajire y'umutuku bari kuvura umuntu uryamye hasi, wari ahantu mu kibuga bari gukiniramo umupira.

Ishusho y'umusore wakoze imyitozo ngororamubiri, anateruye ibintu biremereye, hari imbuto zitandukanye amagi amazi imboga.

Umuntu bigaragara ko yakomeretse ku ivi, hariho igipfuko cy'umweru, arimo aragifataho, bishoboka ko ari kubabara.

Umukobwa mwiza w'imisatsi miremire myinshi y'umukara, wambaye inziramugozi ku kaboko ariko irimo akagozi gatwara amajwi mu gutwi.

Icupa rinini ry'umweru, ririho agapapuro k'umukara kandiditseho amakuru y'umuti urimo imbere, n'ijambo rinini rigaragara ryanditse ngo hagarika uburibwe.

Ikarito nini ibamo ibikoresho bitandukanye birimo amasashe arimo imiti, udukarito duto ndetse n'amacupa abikwamo imiti.

Imashini yo kwa muganga ifite amapine, ifite n'ahantu hasa n'aho ari mu kirahuri hagaragarira amakuru atandukanye yapimye.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri barimo umusore n'umukobwa bose bafashe uducupa tw'amazi mu ntoki zabo.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, wafashe isashe ayishyira ku kuboko kwe kw'iburyo, ayifatishije ukw'ibumoso, bigaragara ko ari nk'ahantu afite imvune ari kuvura.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziri mu kantu kameze nk'agatebo; amagi ari ku gasahane kumwe n'ibindi; hari n'ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Ibintu bitandukanye bikenerwa kugira ngo ubuzima bw'umuntu bube bumeze neza; harimo imbuto z'ubwoko butandukanye; hariho amagi n'ibindi byo kurya bitandukanye; ndetse n'ibikoresho byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri, bafite uducupa tw'amazi mu ntoki zabo, barimo biruka gake gake.

Imashini yo kwa muganga isa n'umweru ifiteho ahantu bandikira hasa n'icyatsi iruhande rwayo hari umugozi bayicomekesha ku muriro

Icyumba bigaragara ko hari icyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru, n'agapfukanwa k'umukara, ndetse hari n'umugore wicaye hejuru ku kimashini.

Akagare ko kwa muganga kifashishwa batwaye umuntu utabasha kwigenza n'amaguru ye cyangwa udafite imbaraga nyinshi.

Amagambo asobanura ko ari ibiryo biribwa, bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, hariho imineke n'izindi mbuto zitandukanye.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara isutse, yashyizemo n'agatambaro, arambuye amaboko ye yayerekeje mu kirere.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi, byifashishwa n'abaganga barimo baravura abarwayi, harimo n'imyenda abaganga bambara kugira ngo batanduzwa n'abarwayi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri afite amazi, ku ruhande afite n'utwuma twifashisha barambura imitsi, imbere ye hari mudasobwa.

Imbago itangwa n'abaganga, ifite ahantu hajyamo akaboko ndetse n'aho gafata kugira ngo umuntu uyigendesha abashe kuba akomeye.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu ubutabazi bw'ibanze harimo umukasi, harimo ibikwasi, harimo inshinge n'ibindi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yicaye ku gakeka karambitse hasi, yarambuye amaguru ye ubundi arunama yikora ku bitsi.

Umuntu wifashe ku kuboko kwe kw'iburyo akoresheje ukw'ibumoso harimo ishashi itangwa n'abaganga yifashishwa bavura mu ngingo.

Umusore bigaragara ko ari umurwayi, bahaye agakoresho karemera ari kugaterura, bigaragara ko bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara, ufite n'agakoresho babikamo inziramugozi ku kaboko, afite icupa ry'amazi arimo aranywa.

Umuganga ufite akamashini bifashisha, afashe umutwe w'umwana, ari gupima uko bigaragara amaso.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye ukuguru kwe kw'ibumoso, ukw'iburyo yaguhiniye ku gituza anagufashe n'amaboko ye.

Icupa ririmo amazi, imbuto z'ubwoko butandukanye, icyuma cyifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, na metero yifashishwa bapima.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, uryamye hasi agaramye, arimo arakururisha akaguru umugozi ufashe ku byuma biri inyuma ye.

Umusore wambaye agapira k'ikijuju, yambaye n'utugozi dutwara amajwi mu matwi, afite icupa ari kunywa amazi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umukara, wambaye ku kaboko agafuka babikamo inziramugozi, afite icupa ry'amazi imbere ye.

Igikarito kibamo imiti igiye itandukanye, harimo ibikarito, amacupa n'inshinge abaganga bifashisha barimo baratabara abarwayi bagize ikibazo gitunguranye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye ukuguru kwe kw'iburyo, ukw'ibumoso yaguhinnye, ari kugerageza gukoza amaboko ye ku mano y'ukuguru kurambuye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri afite umugozi wumuhondo arimo arakurura, iruhande rwe hari umuganga uri kumufasha.

Ukuboko kw'ibumoso kwambaye impeta, gufashe ishashi iri ku kuboko kw'iburyo ahagana ku nkokora, bigaragara ko umuntu ari kwivura mu ngingo.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi, wanateruye ibyuma, wambaye agasengeri uri kunywa amazi, bigaragara ko inyota yamufashe akora imyitozo ngororamubiri.

Umurwayi uryamye kwa muganga, ari kumwe n'umuganga ufashe akaguru ke yagahinnye, bigaragara ko ari kureba ikibazo kiri mu mavi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura, banapima abarwayi, harimo umusore wagira ngo ni mo akora.

Umukobwa wambaye isaha n'udutwara amajwi mu matwi yikoze mu mugongo, hagati y'ibitugu bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye agapira k'umweru anambaye imigozi itwara amajwi nayo y'umweru, yambaye n'isaha, afite n'icupa ry'amazi arimo kuyanywa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe umuganga yicaraho, ndetse n'igitanda kiriho uburiri busa nk'ubururu.

Ikimashini kinini cyo kwa muganga, cyifashishwa bapima indwara zitandukanye, gifite uburiri bunini umurwayi aryamaho, ndetse n'ahantu ashyira umutwe iyo bari kumupima.

Ibinini by'amabara y'umweru n'umutuku, imidari ibyuma byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, imbuto z'ubwoko butandukanye, bizirimo imineke, inanasi, n'imyembe zimwe zisatuye izindi zidasatuye.

Umusore ufite imisatsi myinshi uri gukora imyitozo ngororamubiri arambura ingingo ze amaboko ari imbere, ukuguru kumwe kuri inyuma, ukundi kuri hagati ari ko ahagazeho.

Ubwoko bw'imiti butandukanye, harimo imwe iri mu dusashe, hari indi iri mu ducupa tubamo imiti basiga, hari n'uturindantoki.

Umusore uryamye hasi, bigaragara ko agize ikibazo mu ngingo, mugenzi we ari kumufasha amukandira, iruhande hari umupira bakinaga.

Umukobwa wambaye agapira kumutuku, ufite imisatsi myinshi y'umukara, anambaye imigozi ikura amajwi mu nziramugozi, iyatwara mu matwi, afite n'icupa anywa amazi.

Agacupa gato k'umweru, karimo imiti, kariho ikimenyetso k'igisiga kiguruka, hariho n'amagambo yandikishije ibara ry'ubururu.

Uducupa tugera kuri dutandatu, twose dusa, tunangana, turiho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka n'izina ry'umuti urimo n'icyatsi cyifashishwa bawukora.

Agacupa gato k'umweru gafite n'umufuniko w'umweru kariho agapapuro kariho amagambo asobanura ko ari umuti wagenewe abana.

Amagambo yanditse asobanura ngo ''imiti gakondo'', imiti byanditse mu ibara ry'icyatsi, gakondo byanditse mu ibara ry'umweru.

Igiti kirekire kiri hagati mu bindi byinshi, bigaragara ko ari mu ishyamba ribamo ubwoko butandukanye bw'ibiti, ariko cyo akaba ari umuti.

Igiti cy'umuharavumba giteye ahantu hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hagaragara nkaho ari mu ishyamba cyangwa se mu gihuru.

Ubwoko butandukanye bw'imiti bugera kuri cumi na bubiri, burimo bumwe bugaragara nk'aho ari uruyange ubundi ari imbuto n'ibindi bitandukanye.

Ubwoko bw'imiti bwinshi bugiye butandukanye, hariho ibyatsi, hariho imbuto, hariho n'uruyange, hari n'agasekuru kifashishwa bayitunganya.

Amacupa atandukanye ku mabara ariko afite imiterere imeze kimwe, ariho ibirango by'igisiga kiguruka yose ariko amazina atandukanye.

Ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye biri ahantu hasa n'aho ari mu gihuru, hari n'ibindi byinshi, ariko harimo n'iby'umuti wa kinyarwanda.

Imiti y'ubwoko butandukanye imwe irambitse hasi indi iri mu tubakure harimo isa umutuku indi isa umweru, iruhande hari umunzani wifashishwa bayipima.

Udukarito twifashishwa babika imiti ndetse n'amacupa y'umuhondo babikamo imiti ariho n'ishusho y'igikakarubamba ndetse n'ishashi na yo babikamo imiti.

Agacupa gato gafite ibara ry'umweru, kariho agapapuro gashushanyijeho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, hari n'amagambo avuga ku muti urimo.

Icupa ry'umweru riba mo imiti hariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu iruhande hari ibyatsi byifashishwa bakora umuti urimo.

Uducupa twinshi cyane twifashishwa babika imiti, harimo uturimo ubusa, utundi turimo imiti.

Icyatsi gifite ibara ry'icyatsi kiri mu gashashi karimo ubutaka bigaragara ko ari urugemwe rw'igihingwa cy'umuti wa Kinyarwanda.

Ibyatsi byinshi biri ahantu mu gihuru, hari n'ibindi byatsi bigaragara ko ari ahantu himejeje umuti wa kinyarwanda.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu macupa atandukanye harimo iri mu ducupa duto tw'umweru, hari n'iri mu icupa rinini iruhande hari indabo.

Uducupa tubiri duto tw'umweru turi mu mpande tubamo imiti n'utundi tubiri tunini tw'umuhondo hari n'ikarito babikamo imiti.

Igiti gifite amababi menshi kiri ahantu mu ishyamba; hateye ibindi byatsi n'ibiti by'ubwoko butandukanye; ariko iki kikaba cyifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri turimo imiti, akenshi yifashishwa bavura uruhu n'amashusho yerekana uko ugenda ukira iyo usizeho iyi miti.

Ibyasi by'imiti ya kinyarwanda byifashishwa havurwa indwara zitandukanye biteye mu tudobo bafashe bagashiramo ibitaka.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo imbuto, hari n'imiti itandukanye ya Kinyarwanda yifashishwa bavura indwara zitandukanye.

Imiti iri mu buryo bw'ibinini byakuwe mu dukarito twabyo, irambitse ku cyatsi cy'umuhararavumba, nacyo kivura indwara nyinshi cyane zitandukanye.

Ibyatsi biri ahantu hari ibindi byinshi byazanye n'uruyange rw'umweru bigaragara ko ari umuti wa kinyarwanda wifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Umuntu uri gusoroma ibyatsi biri ku giti, bigaragara ko ari umuti gakondo wa kinyarwanda wifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye ifunze mu buryo butandukanye, hari imwe iri mu dukarito dutoya, indi iri mu ducupa dutoya, indi iri mu ishashi.

Uducupa dutatu dutoya tubamo imiti, buri gacupa kariho agapapuro kanditseho izina ry'umuti urimo ariko twose dufite ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Igiti kiri mu ishyamba, gifite uruyange rusa umweru, iruhande hari ibindi byatsi, bifite ibara ry'icyatsi.

Agacupa kaba mo imiti, kariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, hariho n'izina ry'umuti urimo imbere.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye iri mu macupa yakoreshejwe, indi iri mu birarahuri bigaragara mu buryo bwakavuyo.

Amacupa atangana ariko yose abamo imiti, anariho ikirango kimwe kigaragaza ko uruganda rukora iyo miti yose ari rumwe.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri hamwe, harimo imwe iseye, indi ari utubuto duto, indi ari uruyange.

Akajerekani gato k'umuhondo karimo umuti n'irindi cupa ry'umuhondo ririho igikakarubamba n'utundi ducupa tw'umweru turimo imiti itandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu ducupa dutandukanye, tumwe dutoya ubusanzwe tuzi ko tubamo imiti bisiga ndetse n'utundi turimo iyo banywa.

Ikirango kinini kigizwe n'inyuguti ebyiri zirimo a na ma bafatanyije kugira zigaragare neza, hepfo hari amagambo agaragaza ko kiranga imiti y'akagera.

Imiti y'ubwoko butandukanye, imwe iri mu tubakure twayo, harimo isa umutuku n'indi isa umweru, iruhande hari umunzani.

Agacupa gato kariho umuti basiga ku munwa kanditseho amagambo avuga ko byoroshye kuwukoresha hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Icyatsi cyakuze kinini; giteye hagati mw'ishyamba, bigaragara ko ari umuti wa kinyarwanda wifashishwa bavura indwara zitandukanye.

Umuntu uri mu murima urimo ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye ariko we akaba ari gusarura kimwe cy'umuti.

Ibirahure bibiri birimo amazi avanze n'ibibabi bitandukanye, bigaragara ko ari imiti, hari n'ibindi bibabi bitari mu mazi birambitse ku ruhande.

Agakarito kabamo imiti kanditseho ijambo risobanura ubufatanye, ndetse n'amasaha makumya n'ane ku minsi irindwi, n'agasashe kariho ibinini.

Ubwoko bugera kuri cumi na bubiri bw'imiti, harimo imwe y'amababi indi ari imbuto, indi ari uruyange, yose munsi yayo handitse amazina yayo.

Isashe ibamo imiti ya kinyarwanda, iriho amabara atandukanye, hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, kigaragaza uruganda rukora uwo muti, hariho na cumi na karindwi g igaragaza ingano y'umuti ujyamo.

Icupa ry'umweru rirerire ryifashishwa babika imiti, ririho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka n'amazina yacyo.

Icyatsi bigaragara ko ari umuti wa kinyarwanda, gifite ibara ry'icyatsi kibisi, giteye ahantu hari ibindi byatsi byinshi bigaragara ko habugenewe.

Ikirago kirambitseho imiti y'ubwoko butandukanye, harimo iri ku masahani, hari n'indi iri mu tubakure, hari n'iyo ibiganza birimo biratunganya byifashishije agasekuro gato.

Udukarito dutatu tubamo imiti twose turiho ibirango bisa, bigaragara ko ari imiti imwe kandi inakorwa n'uruganda rumwe inafite amazina amwemwe.

Imboga z'ubwoko butandukanye, ziganje mu ibara ry'icyatsi rituma imboga zifasha ubuzima bw'umuntu burimo n'amaso kumera neza.

Ikarito nini yanditseho fa cumi na gatanu, iruhande hari uducupa tujyamo imiti ndetse n'ishashi, byose bifite ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Ikirahure kirimo amazi, kirimo n'ibiti bifashwe n'ibiganza by'umuntu, bigaragara ko ari gutunganya imiti ya Kinyarwanda yakwifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Agacupa gato kabamo umuti, kariho agapapuro, gashushanyijeho ikimenyetso k'igisiga kiguruka, hariho n'izina ry'umuti n'umubare ijana.

Igiti cy'umuharavumba, giteye ahantu hari ibyatsi byinshi bitandukanye, birimo n'ibifite indabo z'umuhondo n'ibindi bifite iz'umutuku.

Agapapuro kaba kometse ku icupa ribamo imiti, kariho ishusho y'uruyuki, hariho n'amagambo asobanura ko ari ubuki burimo.

Ubwoko bw'isabune, ikozwe mu rubuto rwa avoka, hari n'igikakarubamba, bigaragara ko bavanga voka n'igikakarubamba kugira ngo bakore iyo sabune.

Agacupa karekare k'umweru kabamo imiti, kariho amagambo yandikishije ibara risa nk'icyatsi, hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Ahantu mu ishyamba hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo ibiti by'umuharavumba byifashishwa bavura indwara nyinshi zitandukanye.

Amacupa manini abiri y'umuhondo, arimo imiti ikozwe mu gikakarubamba, hari n'ishashi yindi irimo imiti ndetse n'agakarito kanditseho ca icyenda.

Imiti igiye itandukanye irimo igikakarubamba n'ibindi byose biri mu tubumbano twifashishwa babika ibintu by'ibyatsi, kugira bigume bitohagiye.

Ibyatsi bitohagiye, bifite ibara ry'icyatsi kibisi, birikumwe ari byinshi bisa bigaragara ko ari ahantu heze imiti ya kinyarwanda.

Ubwoko bw'imiti butandukanye, burimo bufite ibara ry'umuhondo, ubundi busa umutuku, hari n'imbuto, n'amababi, n'agakoresho kifashishwa bayitunganya.

Ubwoko bw'igiti bita umusave, giteye iruhande rw'uruzitiro rw'urugo bigaragara ko uwagiteye yagishakaga.

Umugore uri gucuruza imiti ya kinyarwanda, hari umugabo uri imbere ye, urimo aragura baganira, inyuma hari nimero wabahamagaraho utahise ubabona.